Yewe yewe！ Noneho isoko rya Kinigi ryajemo ibintu byinshi. Ko ari byizaga mwa ubu birahendutse ? Ubu ntibari buduce amafaranga menshi ? Agafaranga nazanye ni gakeya n'ibi bintu byose bafite byiza. Reka nakure mama ampe amafaranga ngure ibintu byinshi byiza ku mafaranga make.